Kwa muganga tumeze neza abaganga barimo baraduha umwanya wo kuganira n'imiryango yacu yaje kudusura, serivisi baduha irashimishije nambaye umwenda w'umweru mu mutwe unsuye nawe yambaye umupira w'umukara n'umweru turi batatu murakoze cyane

Icyapa gishushanyijeho abamama babiri, harimo ufite imisatsi y'umweru, n'ufite imisatsi y'umukara, yambaye ishati y'umukara, barimo baraseka, barizihiwe, ku buzima bwabo bwa buri munsi;

Motari n'imodoka bari mu muhanda, umuhanda urimo urakamo umuriro babujijwe uburenganzira bwo gutambuka kugira ngo bajye guhana serivisi zitandukanye, hirya no hino ku baturarwanda.

Umuntu uryamye ku ntebe ariseguye yifashe ku mutwe afite umusatsi w’umukara n’imibiri yombi, arananiwe mubyukuri agomba kuruhuka bihagije.

Umuntu aricaye yambaye umupira w'icyatsi afite igitabo ari gusoma ariku icyagombambe ari kunywa yigoshesheje neza yizihiwe nijya ari gusoma serivisi yahawe irahagije arishimye.

Inzu icururizwamo imyambaro itanga serivisi nziza turayishimiye, twebwe abayigana, tumeze neza, turashimira n'ibiciro bafite, murakoze cyane murakarama.

Inzu irimo ibijyanye n'ibicuruzwa by'imyambaro. Ni byiza imyambaro ibera buri wese, uwambaye neza agaragara neza, aho ageze bamwakirana urugwiro n'ubwuzu, serivisi akeneye akayihabwa. Kujya aho ugiye usa nabi ni bibi, umwanda utuma utagera aho abandi bari.

Imitako myiza iri mu nzu yometseho amakaro meza, imipira myiza bacuruza, ibikorwa byabo ni byiza, uwo ari we wese ubikeneye yabigeraho, kuko ni byiza ni ingenzi mu bikoresho bya buri munsi watunga.

Imyenda icuruzwa mu isoko amakote, imipira ikiza imbeho, iyo wambaye umwenda mwiza una usa neza, uba ugaragara neza, aho unyuze ugire icyubahiro mugihe wawugiriye isuku kandi umwambaro ni mwiza, murakoze.

Inzu y'ibicuruzwa by'imyenda n'inkweto arimo aratanga serivise nziza kandi abantu turi kubayoboka turatuje, twakiriye serivise nziza bari kuduha murakoze.

Abantu babiri bahagaze mu kibanza kirimo amapave, bari kumwe n'imodoka, baganira ku byabatez'imbere, bambaye neza barasa neza murakoze.

Abagabo babiri bahagaze hamwe bari hamwe n'imodoka bafite icyapa kigaragaza ibyo bakora ko ari ingenzi, ari ingirakamaro kubantu bakeneye serivisi murakoze.

Imodoka ihagaze ku mapave ku ruhande hari icyapa ku ruhande hari umurongo w'umukara n'umweru n'umumotari uhetse umuntu. Imodoka ni nziza mu buzima bwa buri munsi iba taransporo, ikugeza mu kazi ukabasha kugererayo igihe.

Imodoka nziza iparitse ku itage nziza turashimira wubatse iyi nzu agakora niyi pakingi yayikoze neza amapave inzu iteye amarangi imodoka ikugeza aho ushaka ni byiza kwitwara ufite ibyangombwa bikwemerera kuyitwara kuyitwara nta byangombwa biteza impanuka nyinshi mu muhanda murakoze.

Ibinyabiziga byo mu bwoko bwa kwasteri birahagaze birindiriye gutwara abaturage b'abanyarwanda mu mpande zose z'igihugu, aho byerekeje bitewe na gahunda zifite bigerayo amahoro, bityo abaturage bakihuta mu iterambere.

Aha ni ahantu hakorera kompanyi icuruza imodoka. Abashaka imodoka bose barayigana.

Umuntu wicaye imbere ye ku meza hari amafaranga hari imashini ishinzwe kuyapima. Gukoresha amafaranga atari mazima si byiza n'icyaha bibangamira iterambere ry'igihugu, ndetse n'abantu muri rusange.

Amafaranga arambitse ku meza n'iya bitanu ishushanyijeho konvenshoni iriho n'inyamaswa yo mu birunga ariyo bita ingagi, ingagi yinjiza amadovize, ingagi yinjiza abakerarugendo mu gihugu, ituma tugira abanyamahanga benshi mu gihugu baje kuzireba.

Inzu itangirwamo serivisi izarizo zose z'ingenzi mu buzima bwa buri munsi, zirimo zirakorwa neza, umuntu ari guhabwa serivisi yifuza murakozi.

Ikirangantego gisa neza kirimo igitoki, cy'amafaranga ya banki y'igihugu, kirasa neza murakoze murakarama.

Ibiganza bifashe amafaranga imbere ye hari mashine, amafaranga ni meza ni ingirakamaro atuma uyafite agira iterambere mu gihe afite imibare myiza yiterambere ikagirira n'abandi baturage akamaro.

Dayali icuruza amata irimo irakira abakiliye bayo, abantu harimo ama juisi, harimo umwana, harimo na robine y'amazi, ni byiza cyane serivisi itanga turayishimiye.

Inzu irimo ibicuruzwa bitandukanye byo kunywa no kurya irimo abantu babiri, arimo aramuha akajerekani ibintu bimeze neza, ibintu byacu birasa neza murakoze murakarama munge mutuyoboka muduteze imbere.

Umuntu w'umugore wambaye neza yambaye ikanzu y'umutuku nandi mabara . Ni umucuruzi, amata yerekana tarifu y'ibiciro akoreraho serivisi nziza atanga murakoze.

Aba rero urabona ko bambaye amakarita ndetse n'imyenda, bisa n'aho hari inama bari bitabiriye yiga ku bibazo runaka biba byugarije abaturage cyangwa biba byugarije igihugu, biterwa n'ingingo nyamukuru ihari.

Ameza ameza meza ateretseho igikombe n'umuntu uri guhabwa serivise, na firigo irimo ibicuruzwa ibyo kunywa, ibyo kurya bitandukanye, ni byiza cyane ferigo irasa neza murakoze.

Inzu itangirwamo serivise z'ibinyobwa inyange ni nziza m'ubuzima bwa muntu uyinyoye wese agubwa neza, agira intungamubiri muri we, akagera ejo heza mu buzima bw'iwe, murakoze cyane.

Icyapa kiriho ibicuruzwa by'ibinyobwa bitandukanye, ibinyobwa ni byiza mu buzima bwa muntu bwa buri munsi, harimo ibyubaka ku bantu babyibushye ku bantu batabyibushye abo bose byabagirira akamaro baramutse bayobotse iri duka.

Umuntu ufite keke mu kiganza cye, arimo arayirya yamuryoheye, arimo arashimira uwayikoze n'ibikoresho byagiyemo, aragira ati:"Muzagaruke bakiriya beza",murakoze cyane.

Inzu nziza irimo ibicuruzwa bijyanye n'ibiribwa, icyo kunywa, amandazi, amata, indobo, ibikombe, garasi zo kunywesha, akabati keza, iteye n'irangi ry'ubururu.

Inzu irimo ibicuruzwa by'ibiribwa; amandazi, imineke, intebe nziza, ameza, aho gukorera heza, turabyishimiye abantu twebwe tubigana. Murakoze cyane!

Umugati uteretse hejuru ku ikureti y'amagi uri mu isashi y'umweru, ikureti ibika amagi agatuma atangirika. Biteretse no mu nzu nziza, ku meza meza, birasa neza.

Abantu bane barimo umukobwa umwe bari kuganira bafite icyo kunywa cya fanta, barimo baganira ku byabungura inama, ku byabateza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi. Murakoze!

Amafaranga y'iza bitanu nyinshi ziteraniye hamwe mu kabogisi, k'ubururu gafunguye. Amafaranga ni meza ni ingirakamaro adufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi tuyubakamo amazu tuyaguramo amamodoka.

Amafaranga ari ku meza afashwe n'umuntu, amafaranga ni meza ni igirakamaro mu bikorwa bya muntu bya buri munsi, mu gihe ayakoresheje neza kandi amafaranga ni meza.

Ibiganza bifashe amafaranga y'amadorari y'ijana ijana, amafaranga ni meza, agira akamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu bucuruzi, mu buguzi, no kubaka amazu meza.

Abantu babiri barikumwe bafite amafaranga ,amafaranga akora ibikorwa byinshi birimo amazu, kugura imodoka, kurya ,kunywa ,kwambara ndetse no kugura amazu murakoze .

Ibihugu ku isi bitandukanye bifitanye umubano n'u Rwanda biratuje bimeranye neza ,serivisi bihabwa byarayakiriye kandi birashimira natwe abaturage tumeze neza twishimiye kubakira barakaza barakarama mu gihugu cy'u Rwanda gifite umutekano usesuye .

Umuntu w'umuzungu afite amafaranga mu biganza bye atandukanye yampaye impeta y'umweru impeta y'umuhondo murakoze.

Icyapa cyanditseho moneya kigaragaza serivise hano batanga, serivise zitangwa neza abaturage turazishimira mu buzima bwacu bwa buri munsi. Badatanze serivise nziza ntago twabagana kandi serivise ni ingirakamaro.

Abantu benshi batandukanye bamwe baricaye abandi barahagaze umwe muri bo afite ibendera rifite amabara atatu atandukanye, harimo ibara ry'ubururu, ibara ry'umuhondo, n'ibara ry'icyatsi kibisi.

Inzu itangirwamo serivise za buri munsi, hasi ni amakaro, ifite utubati tw'umweru, mo imbere harimo umuntu ukora utanga serivise za buri munsi ku bantu, ifite amagambo y'umweru hejuru yiwe.

Iyi nzu ni nziza ifite umuryango w'indani mo imbere mwiza, iteye irange ryiza, ifite parafo nziza, irimo firigo nziza. Kuba mu nzu ari iyawe ni byiza, kubaho nta nzu ufite ntago uba ufite aho ubarizwa hanyaho.

Iyi nzu nziza ifite salo na saramanje, irimo intebe nziza. Aho kuganirira, aho gufatira amafunguro yo kurya haguwe neza, urimo wese ameze neza, bigaragara ku maso.

Inzu irimo amakaro irimo amakaro, irimo intebe nziza, iteye irangi ryiza. Uwicayemo wese ahumeka umwuka mwiza bitewe n'isuku ihari n'amagambo meza ahavugirwa, murakoze ni byiza cyane.

Isoko ry'imbaho ritanga akazi ku bantu bagakora buri munsi barashimira uwabahaye akazi bakanashimira abahinga amashyamba kugirango babashe kubona imibereho ya buri munsi n'akazi bakora ka buri munsi murakoze .

Inzu ni nziza igeretse gatatu ihagaze mu kibanza kiza, imbere hari amatara manini ayicaniriye, hasi hari imodoka, hari na feruje, hari n'amapave n'umuhanda mwiza.

Pisine nziza yo kogeramo irasa neza, iyi sare nayo iri ku ruhande ni nziza kandi irashimishije yatanga serivise nziza, na ba nyiri bizinesi nabo barahamya ko aho bageze hashimishije, murakoze!

Jaride iri hano ni nziza irimo indabo, irimo intebe, naho kuganira, iyo uhicaye ugubwa neza, uganira neza ndetse twifuza n'abandi batuyoboka bakaza mu ruganiriro rwacu murakoze.

Inzu y'itaje igeretse kabiri, ni nziza iteye irangi, ifite bariko inkingi z'ubururu, ifite na jaride, ifite n'amapave yo kunyuraho, urupangu ni rwiza rurasa neza murakoze.

Jaride nziza ihagazemo inzu nziza, iteye irange ry'umutuku, n'amabati meza y'umweru, itangirwamo serivise zitandukanye za buri munsi murakoze.

Inzu nziza igeretse ifite irange ryiza, isakaye neza, iteye mu madirishya n'inzugi nziza byose ni umukara ku ruhande hari inzu iteye irange ry'umutuku ifite bariko nziza iriho n'indabo nziza.

Sale ni nziza iragaragara neza ifite ibyicaro byiza ifite n'uruganiriro rwiza ifite amapave, intebe nziza ,amarido meza inasakaye neza murakoze.

Pisine nziza ifite amazi meza, kuruhande hari intebe n’ amazu. Ni ibiti bihakikije. Ibiki ni girakamaro bitanga umwuka mwiza kubantu.

Inzu nziza iteyeho imikindo, ibiti byiza, amavase meza, igeretse rimwe, amarangi meza, inzugi nziza, na jaride nziza, ibirimo byose birasa neza, irakoze.

Abantu batatu bahagaze hamwe batandukanye mu ntera bahagaze imbere yameza yambaye umwenda mwiza hejuru hari indabo , yambaye imyenda y'umukara n'umweru n'umupira wumutuku nikoboyi nziza bari munzu yanditseho inyuguti za M, inzu ni nziza ifite prafo nziza na tapi igezweho .

Abantu bane harimo abagore batatu n'umugabo, bayicaye muri sale muri sale imashine, barimo batanga amaserivisi abandi bazihabwa, bicaye neza baguwe neza murakoze murakarama.

Inzu y'itaje igeretse, iriho abagabo babiri harimo uwambaye isengeri, impeta y'umweru, ipantaro y'ikobo y'umukara, ku ruhande hari icyapa ifite inzugi z'ibirahuri, hejuru hari ikindi cyapa gishushanyijeho amagambo y'umukara ifite amadirishya afunguye.

Umuntu umwe uri mu cyumba akoreramo serivise atanga za burimunsi yicaye mu ntebe nziza, hari akabati keza, mashine nziza, inkuta zirasa neza, ibyapa bigaragaza ibyo akora.

Abantu baje gushaka ibikoresho bitandukanye bari ku nzu y'ibicuruzwa barahaha neza barahabwa serivisi zabo neza bakeneye mu buzima bwa buri munsi barashimira nyiri kubaka aya mazu yagize neza nta mvura yababanyagira mu gihe bahageze murakoze .

Inzu iri hano ni nziza, itangirwamo serivisi nyinshi zitandukanye bitewe n'izo wifuza, uwatugana wese twamufasha kandi yagenda yishimye, anezerewe. Inzu zacu ni ngari, ziragutse ni na nini, ziteye amarangi meza hariho n'ibyapa bituranga murakoze.

Abantu bari kuri iyi nzu ya soranse bameze neza barimo baragenda, inzu ikorerwamo serivisi zitandukanye, uwo ariwe wese wifuza serivisi nziza ijyanye niya soranse yayihabwa bikwiriye nta kibazo.

Iyi nzu ya etaje yubatse neza yambaye ibirahuri byiza iriho na feruje iteye irangi ryiza isakaye neza hejuru yayo ari n'ibyuma by'ikoranabuhanga bituma ikoranabuhanga rigenda neza mu mikorere ya ya buri munsi.

Icyapa kiri ku nzu iteye irangi hanyuma hari nama kamera (cameras). Turashimira uwazanye kamera (camera), kamerara(camera) zituma umutekano w'ibintu n'abantu ugenda neza. Uwashatse kugira nabi akabona kamera(cameras) ziramufata. Ndetse yaba igihe atarabikora zikaba zamufata bitewe n'amakosa arimo cyangwa se ibyiza arimo.

Abagore babiri bari kumwe bishimanye banezerewe, kubwibyo baganira byiza, bibubaka, bibateze imbere nta n'ikibazo bagirana, ni beza pe.

Umuntu uri kugura ibicuruzwa arishimye arizihiwe ku bwa serivisi nziza yahawe, twese twifuza kuba twahabwa serivisi nziza gihe nyacyo birakwiriye murakoze cyane.

Uyu muntu muri business ze azikora neza turazishimiye, afatanyije n’iyi banke, ni byiza cyane mu byo bakora mu nshingano zabo za buri munsi, turabashimira twebwe nk’Abaturarwanda ku ineza batugirira muri serivisi zabo za buri munsi.

Abantu babiri bari mu isoko bacuruza imboga, karoti, ibitunguru, hari nindobo y’icyatsi, isoko rirasa neza. Murakoze cyane.

Isoko riparitseho imodoka ririmo n'abantu benshi baje guhaha ibicuruzwa bitandukanye, barashimira perezida w'isoko serivisi nziza bahabwa, nta kibazo bafite muri bo, barashimira.

Umucuruzi mu isoko ari gutanga serivisi nziza, ni umusilamukazi afite shufureri, umuturage nawe aje kugura kandi arimo ahamya ko ari guhabwa serivisi nziza, ni ukuri birashimishije, murakoze.

Inzu icururizwamo ibikoresho bitandukanye abantu dukenera amakanzu yo kwambara, intebe y'ubururu, amakaro y'umweru hasi n'umukara, n'umuntu wicaye imbere hari umugabo ufite parofe y'umweru n'umuhondo.

Umuntu w'umuzunguzayi w'umumama arimo arazunguza ibyo acuruza birimo biragurwa arimo arabaha neza nta mbogamizi zihari nawe serivisi atanga arazumva neza n'abaziha bazakiriye neza murakoze.

Abagabo babiri n'umugore bari mu isoko ni abacuruzi bacuruza ibicuruzwa by'ibiribwa nkinyanya ,intoryi, puwavuro, karoti ,ibishyimbo ,imiteja hari n'indobo irimo ibikoresho hakaba nibasi murakoze .

Inzu y'itage, yanditseho amagambo y'umutuku, yanditseho Kigali, ifite amadirishya, ifite inzugi, ibirahure, harimo n'abantu bakoreramo serivisi za buri munsi zijyanye n'ibyo bakeneye.

Inzu nziza ihagaze mu cyibanza cyinini igereretse inshuro imwe, ebyiri, eshatu, enye, eshanu, esheshatu iyo nzu ni nziza ni nini uwakenera kuyigura wese yaza akaba yayigura mugihe nyacyo.

Imitako nyarwanda iri gucuruzwa, ikoze neza, serivisi z'ababitwara ziri gutangwa neza, kandi abakiriya turishimye tumeze neza, turifuza ko n'abandi batuyoboka.

Ibikoresho by’ubugeni ni byiza kubishyiramu mu nzu cyangwa na handi hose hagomba kugira imitako. N’ibyiza birababereye, biryoheye amaso. Kubikora bimufitiye inyungu, kuwakiguze nawe bimufitiye umunezero kubwo yakiguze. Murakoze.

Ingoma agaciro kayo ni ukuyicuranga abantu bakanezerwa, umwuko nawo uteka ibiryo, inkoko itegurirwaho ibyo kurya, n'imitako nyarwanda ni mwiza cyane kuyishyira mu nzu yawe.

Inzu ikorerwamo serivisi za momo peyi, ni nziza, momo peyi ni ingenzi ntitwara amafaranga, uyishyuriraho serivisi zawe zose ukeneye z'ibijyanye n'amafaranga, zigenda neza, kandi twishimiye serivisi itangwa.

Abantu benshi bateraniye mu cyumba cyo ahacururizwa ibikoresho bitandukanye, barahabwa serivise nziza, barayishimiye, barashimira leta yashyizeho aya mazu yo gukoreramo ibikorwa bya buri munsi bibafitiye akamaro.

Abantu benshi batandukanye barimo abagore n'abagabo n'ushinzwe gutanga serivise za MTN, bahagaze ku kazu ka MTN bahabwa serivise bakeneye zibanogeye mu buzima bwabo bwa buri munsi bishimiye ibikorwa byiza serivise nziza bari guhabwa na MTN.

MTN itanga serivisi zayo nziza iri gucuruza amabafure ,televiziyo hari n'abantu baje kugura ibyo bagura byose ,barishimye kubwa serivisi nziza bahawe murakoze .

Abantu benshi bateraniye hamwe barimo abatanga serivisi za MTN n'abazihabwa, barashimira serivisi ya MTN bahabwa mu buzima bwa buri munsi, zibagiriye akamaro gakomeye. Serivisi zabo ni ingenzi.

Abantu bari mu nzu ya MTN bahagaze ku muryango bakeneye serivisi za MTN zitandukanye na Tecno nayo iri gutanga serivisi ibintu bimeze neza abaturage bo barabishimira .

Abantu benshi bahuriye hamwe bahagaze bari kuganira barizihiwe bitewe nibyo bari kuganira inkuru yabo nziza yatumye banezerwa, abantu nyamwinshi barabakikije iruhande rwabo baganira ku bijyanye na emutiyeni n'ibyiza byayo.

Abantu bari gutanga serivisi za Eyateri bari kuzitanga neza. Twishimiye Eyateri, iyi serivisi iduha, iha na abantu bose muri rusange. Turabashimira akazi kabo keza bakora ka buri munsi.

Abantu bari gutanga serivisi muri biro yabo abaturage turimo turayibona neza kandi mu by'ukuri barimo barakora neza cyane turimo turakangurira n'abandi ngo baze guhabwa serivisi nziza ahangaha ndetse tuzajya tugenda tubakangurira kwinjira ahangaha murakoze .

Aba rero urabona ko bambaye amakarita ndetse n'imyenda, bisa n'aho hari inama bari bitabiriye yiga ku bibazo runaka biba byugarije abaturage cyangwa biba byugarije igihugu, biterwa n'ingingo nyamukuru ihari.

AIRTEL irimo iratanga serivisi zayo neza muri kano kazu, abantu barishimye, barizihiwe, barashimira serivisi nziza bari guhabwa naba baturarwanda. Murakoze cyane!

Imodoka nini ihagaze ku iposita yayo ku nzu itanga serivise, ihagaze neza, iteye irange ryiza, ifite amapine mashya, ndetse naya mazu ateye neza afite amarangi arasa neza murakoze.

Umugabo uhagaze mu nzu irimo ahapangwa ibikoresho afite ikarito mu ntoki, yambaye ipantaro y'ikoboyi, yambaye n'umupira utukura arahagaze, yishimiye ububiko bwe uburyo bubika ibintu bye neza.

Ibintu biteraniye hamwe harimo sakoshi z'amama, inkweto zambawe n'umuntu terefone ku ruhande, imodoka ishushanyije ni igishushanyo gihari, imodoka ni nziza mu buzima bwa buri munsi, itanga serivisi zo gutuma umuntu agera iwe mu rugo hakiri kare cyangwa se no ku kazi.

Abamotari bane baparitse kumuhanda bambaye kasike, bafite moto nziza, imbere yaho hari inzu y'itaje irimo umikindo ifite urupangu rwiza ruteye n'amarangi.

Inzu irimo igitanda cyiza, cyo kuruhuka mu gihe umuntu yarushye, kuruhuka ni byiza bituma utekereza neza muzima bwawe bwa buri munsi, ni byiza kuryama ukahuka ugashira ibitotsi murakoze. Tukaba dushimira uruganda rukora ibi ibikoresho.

Umuntu umwe uhagaze mu muhanda w' igikorwa, yambaye ijire y' akazi. Arimo atanga ingero z'i bigomba gukorwa. yambaye ipantaro y' umukara yamanitse amaboko. Imbere ye hari inzu za kadasiteri, imirima yo guhingamo, n' amazu meza ari hakurya.

Iyi nzu iteye neza iteyemo jaride, iteye amarangi, amakaro, bariko inzugi nziza z'ibirahure, na purafo nziza ya dare ibintu bimeze neza.

Urupangu rupavomye neza, ruhagaze mo imodoka, rurimo inzu nziza y'itaje ifite urupangu rwiza, amatara meza, amarangi meza, n'imiryango myiza n'amadirishya, isakaye neza ifite n'itanka hejuru yayo murakoze.

Inzu irimo igitanda cyiza gifite matera nziza, amashuka, umusego, irangi ryiza, inzugi nziza n'amarido irasa neza kuryama ni ingirakamaro bituma umuntu aruhuka agakora inshingano za burimunsi neza.

Iyi nzu ni nziza ifite urugi rwiza afite icyumba kirimo towalete iteye irangi ryiza ifite amakaro ku nkuta amadirishya meza murakoze cyane kuva ari uy'u Rwanda

Inzu nziza ifite porotaye nziza uyibamo wese afite mwuka mwiza mu gihe, nawe yawifuje afite n'amahoro mu gihe na yayihaye amahoro ni meza ni ingenzi iyi nzu kuyibamo waba utuje irameze neza irasa neza.

Inzu nziza irimo ibikoresho bya siporo ibintu by'ingorororamubiri ni nziza, na byo ni byiza kandi siporo ni ingenzi mu buzima bwa muntu ubwa buri munsi, udakora siporo ararwaragurika akanahinamirana.

Inzu ya kadasiteri ni nziza iteye amarangi, ifite amadirishya meza, imbere yubakishije amatafari, ifite amasikariye meza, ifite namapave mu mbuga yayo uyihagazemo wese yumva ko ahagaze ahantu heza hamunogeye.

Mu Rwanda umugi mukuru wa Kigali wasohoye imodoka nziza ku isoko yakozwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, ikaba igurishirijwe ku giciro cy'amafaranga miliyoni mirongo itatu na zirindwi y'amanyarwanda.

Inzu ifite amakaro urugi rwiza irangi risa neza iyi inzu kuyibamo ibyiza wagira umwuka mwiza kuko irasa neza ntacyo itwaye irashimishije.

Aba rero urabona ko bambaye amakarita ndetse n'imyenda, bisa n'aho hari inama bari bitabiriye yiga ku bibazo runaka biba byugarije abaturage cyangwa biba byugarije igihugu, biterwa n'ingingo nyamukuru ihari.

Iyi nzu ifite imbuga nziza irimo amapave, ifitemo amazu meza, iteye amarangi, ifite inzugi nziza n'amadirishya meza, isakaye neza, murakoze cyane!

Abantu batandatu bari mu nzu y'ibicuruzwa, amasakoshi, inkweto, barimo barahabwa serivisi nziza babyishimiye, barimo barakangurira n'abandi kuza kugurira hamwe iduka bahabwe serivisi nziza murakoze.

Abantu bari mu isoko bagura ibicuruzwa bitandukanye harimo amasakoshi, inkweto ndetse bari no gucuruza mu nzu nziza kandi barimo barakangurira buri munyarwanda wese kuba yaza agahabwa serivisi nziza kuko turayishoboye .

Abantu bari muri supamaketi bari guhaha ibikoresho bitandukanye, bari guhabwa serivise nziza, bayishimiye, karibu karibu muze mutuyoboke muri abana beza.

Inzu iteye amakaro hasi irimo n'ibicuruzwa bitandukanye byiza n'abantu turimo turagura twizihiwe, bitewe na keya nziza bari kuduha kandi serivisi hano iratunyuze, murakoze tuzagenda tugaruka tubwira n'abandi ibyiza mukora.

Umucuruzi ucuruza imyambaro ,acuruza imyambaro myiza igezweho acuruza mu nzu isa neza inzu ipavomye, ifite amakaro irasa neza hasi hejuru serivisi zabo batanga ni nziza uyiganye wese ataha avuga ibyiza yahasanze .

Ibitabo bigaragaza ibijyanye na arasesibi, arasesibi mu buzima bwayo bwa buri munsi mu nshingano zayo igeza abaturage kuri serivise nziza, turayishimiye iratunogera mu buzima bwa buri munsi.

Abantu benshi bari kumwe muri sare, harimo n'abayobozi bari kubaha serivise ibagirire akamaro mu buzima bwa buri munsi. Baguwe neza barashimishije kandi serivise iri gutangwa ni nziza.

Isoko ririmo utubati twiza two gucururizaho ibicuruzwa by'abantu, hari n'umuntu wambaye umupira wumukara n'umweru, nininkweto nziza n'ipantaro, n'utubati twiza.

Abacuruzi bacuruza ibikoresho bitandukanye n'abakiliriya babo bameze neza barizihiwe barimo barashimirana uburyo batangamo serivisi n'uburyo bayitanga nibyiza birashimishije .

Inzu irimo ibicuruzwa bitandukanye irimo abagabo batatu harimo abambaye igofero y'akazi, y'ibijyanye n'ubwubatsi, irimo mashine zitanga serivise za buri munsi, irimo n'utubati twiza, ameza nina nziza iteye amakaro amarange.

Muri simba hakorerwa serivisi zitandukanye, zirimo ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye, uwo ari we wese ukeneye gukenera ibyiza byose yabisanga hano, niho bibarizwa turabifite kandi abakiliya tubafata neza cyane murakoze murakarama.

Abagabo n'abagore bari mu cyumba cy'uruganiriro gisize irange ry'umweru kirimo amatara ari kwaka, bicaye ku meza n'intebe by'umukara. Ayo meza ateretseho amazi yo mu macupa yo kunywa ndetse na mudasobwa.

Supermarket irimo ibicuruzwa byinshi byiza byintungamubiri abantu bakenera mu buzima bwa buri munsi ni byiza kubiyoboka tunabigura kuko ni byiza byubaka umubiri wacu mu buzima bwacu bwa buri munsi .

Supamaketi irimo ibicuruzwa bitandukanye, irasa neza nta kavuyo karimo, ifite amapave hasi ifite purafo nziza irimo n'utubati twiza naho guhagarara harahari serivisi aho zitangirwara harasa neza murakoze.

Abantu bari muri supamaketi baje guhaha ni benshi bishimiye serivisi bari guhabwa, icyo bakeneye cyose bari kukibona kandi birashimishije mu buryo burambuye buna sesuye bifuza no kugaruka kongera kuduhahira.